Intebe nziza cyane zikozwe muri parasitike, zikunda gukoreshwa muri bare n'ahandi hantu hatandukanye, yaba ahabereye ubukwe.

Inyama zikundwa n'abantu benshi, cyane cyane inyama zokeje, kandi inyama zokeje zikunze kuba ari iz'ihene. Barazotsa hanyuma bagashiraho n'ibitunguru, bagashiraho n'ikirungo ndetse ku barya agasenda bagashiraho.

Inyama ni ikiribwa gikunzwe n'abantu benshi, aho usanga abantu benshi bazirya mu bihe bitandukanye, ariko mu cyaro abaturage bakunda kuzirya mu minsi mikuru. Inyama zishobora kuribwa zikaranze, inyama zishobora kuribwa ziri mu mazi, inyama uko wazijya kose byakunda.

Mu mijyi itandukanye uhasanga amazu maremare kandi meza cyane agiye agerekeranye nka za Musanze, za Kigali ,za Nyagatare, za Gitarama ,za Byumba n'ahandi henshi cyane.

Mu isoko uhasangamo imyenda itandukanye yaba imyenda y'abadamu cyangwa se abakobwa, imyenda y'abagabo nayo iba irimo yaba amashati ,amapantaro ndetse n'ibitenge ndetse n'amashuka.

Amandazi araryoha, imikati iraryoha, abakora ubwo bucuruzi bibabyarira amafaranga, bifite akamaro kanini cyane.

Ibihaza mu Rwanda rwacu birahera cyane, cyane cyane muri ibi bice by'amajyaruguru bikonja, ibihaza rero bikaba biryoha haba kubigereka ku bishyimbo cyangwa se kubitekana n'ibindi bintu, ibihaza kandi bikunda gutanga amafaranga, kuko mu mahoteri bakunda kubigura kugira ngo babihe ababikeneye.

Gaze ni kimwe mu bikoresho abanyarwanda bakunda gukoresha batekaho. Hirya no hino uhasanga amagaze agurishwa, yaba amacupa cyangwa se bakajya bazana icupa, hanyuma bakarisiga bakabah irimo gaze.

Ushobora kwibaza uti "ni he nakura ibikoresho byo gukora amagare, cyangwa gusimbuza ibyashaje?" Iyo ugiye ku isoko naho uhasangamo ibyo bikoresho. Amapine, amarangi, ndetse n'imigozi yo guhambira byose biba bihari.

Umwuga wo gutwara abantu ku magare ni umwuga mwiza. Abawukora ubateza imbere bakabona igitunga umuryango wabo ndetse bakiteza imbere.

Icyapa ni cyiza kuko kiranga ibikorwa umuntu akora. Ukireba abasha kumenya ibikorerwa hafi aho ngaho.

Amazi ni meza afitiye abanyarwanda akamaro kanini cane, kuko amazi tuyakoresha tuyanywa, amazi tuyakoresha mu bintu bitandukanye haba ibyo guteka, ndetse yemwe no gufUra imyenda no koza ibikoresho, hariho amazi yatunganijwe yo mu ruganda, amazi yitwa jibu.

Ushobora gucuruza ibintu bitandukanye muri butike, kuhacuruza amasabune, imyunyu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mu ibaraza naho ukaba wahacururiza ibirayi ndetse n'imbuto ndetse n'ibitoki n'ibitunguru ndetse n'inyanya.

Ubucuruzi ni umurimo mwiza abantu bashobora gukora. Bashobora gucuruza ibintu bitandukanye, bashobora gucuruza ibigori kandi bikaguteza imbere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, aho usanga abacuruzi bacuruza muri butike zigiye zitandukanye, kandi bakagenda bagurisha. Abanyamagare bakaza na bo bakabona imirimo, hanyuma bakajyana ibyo bintu byaranguwe na bagenzi babo.

Inzu ya Eyateli niyo twakwita kiyoske, ikaba ikoregwamo n'umwajenti wa Eyateli, akaba acuruza ama inite ndetse akabika, akabikuza kandi ikindi ni uko iyo nzu iba igomba guhora ifunguye.

Hirya no hino uhasanga imitaka cyane cyane imitaka ya emutiyeni, abayikoramo bitwa abajenti bashinzwe kubikuriza abantu amafaranga yabo cyangwa se kuyababikiriza kandi bashinzwe no gutanga za mitiyu.

Indobo y'umweru uyirebye ukabona imbere hayo kuko hagaragara, urabonamo keke. Abaje kuwugura, bose barahita bazibona.

Igare, amajerekani ibyo byose ni ibikoresho byifashishwa mu kuzana amazi, mu kuguriramo imitobe cyangwa se inzoga.

Amapine y'imodoka ashaje ashobora kuvamo ibikoresho byinshi, ashobora kuvamo imipira y'inkweto, imigozi yo guhambira ku magare cyangwa se kuri moto.

Iyo ugiye ku isoko ushobora kuhasanga ibintu byose wifuza : amabasi, indobo, ibikapu ,amasafuriya, imbabura, n'ibindi byinshi cyane.

Ushobora kubaka inzu y'ubucuruzi hafi y'umuhanda, urugero ushobora kubaka inzu y'imiryango ibiri, hanyuma iyo miryango bakajya bayikodesha, hanyuma ugakuramo amafaranga yo gufasha umuryango.

Abanyarwanda bamaze kwiteza imbere muri gahunda y'imyuga itandukanye, aho usanga ububaji buteye imbere, bagakora ibitanda byiza, ndetse bagakora n'ameza, ndetse byose bakabikora mu muco wa Kinyarwanda.

Banke Popireri y'u Rwanda, baranshe Musanze ni nziza cyane, yakira abashyitsi neza. Iyo ubikije amafaranga yawe muri banke uba ufite umutekano.

Mu bantu bishoboye uhasanga ibikoni bimeze neza, bifite isuku, ibyo bikoni bikaba bifite aho bogereza amasahani, ndetse n'aho batekera. Uhasanga rwose ubwiza butangaje.

Ahantu ho mu isoko ni ho wasangamo imboga z'ubwoko bwose, wasangamo imiteja wasangamo inyanya, wasangamo ibitunguru wasangamo n'ibindi bintu byinshi cyane.

Muri gahunda zo kwiteza imbere usanga abaturage baremye amasoko, ugasanga bagiye bazanamo ibintu bigiye bitandukanye ni muri ubwo buryo ushobora kuzana mu isoko igitoki cyawe, hanyuma ukakivanamo amafaranga ukiteza imbere.

Isoko riba ririmo ibintu byinshi bitandukanye:imitaka, imyenda, ibikapu n'ibindi byinshi cyane abantu benshi baba baje guhaha.

Imbada ni imitsima ikozwe mu ngano. Bakayiteka mu mavuta. Iyo mitsima iraryoha. Ikaba ikunda kuboneka mu majyaruguru.

Iyo ushaka ibikoresho byo kwifashisha mu rugo ujya mu isoko. kuko mu isoko haba harimo ibintu bigiye bitandukanye harimo: amasafuriya , harimo amasahani, harimo amabase, harimo indobo, harimo n'ibikombe n'ibindi byinshi.

Ubucuruzi bwa avoka ni ubucuruzi bwiza cyane, kuko butanga amafaranga, abazigura bashobora kujya kuzirya ndetse hari n'abandi bazigura bagiye kuzikoramo amavuta yo kusiga, ndetse hari n'abazikuramo amavuta y'ubuto, avoka rero zifite umumaro mwiza.

Amavuta y'ubuto afite akamaro kanini cyane kuko bayatekesha ibiryo cyangwa se bakayakoresha amandazi akora n'ibindi bigiye bitandukanye. Habaho amavuta ari mu ducupa twa litiro, hakabaho amavuta ari mu tujerekani twa litiro eshatu ,cyangwa se eshanu agiye atandukanye.

Abantu benshi bakunda kujya mu isoko, cyane cyane bagiye guhaha imbuto n'mboga kuko bifitiye akamaro abantu.

Ushobora gufata imbabura yawe ugashyiraho amakara, ukotsaho ibirayi ukotsaho ibigori. Ibigori biraryoha, n'ibirayi biraryoha.

Imboga za pavuro ni nziza cyane kuko zikunda gukoreshwa mu guteka inyama, ushobora kuzishyira mu bishyimbo n'aho ziraryoha, cyane kandi izi mboga ku isoko zizana amafaranga menshi.

Isoko riba ririmo abantu beshi cyane. Bamwe baba bagiye gucuruza, abandi bagiye guhaha, hari n'ababa bagiye kureba uko bimeze.

Mu Rwanda haboneka imboga z'ubwoko butandukanye. Harimo: sereri, harimo tungurusumu, harimo ibitunguru, harimo pavuro, ibyo byose bifitiye umubiri akamaro.

Tungurusumu ni igihingwa ciza cane kuko cifashishwa muri byinshi kandi bigiye bitandukanye. Cifashishwa muri gahunda y'ibiryo cangwa se inyama kuko baragihonda bakagishiramo. Gishobora kwifashishwa no muri gahunda yo kuvura.

Isambaza ni ubwoko bw'amafi matoya cyane; y'amasamake zishobora kuribwa ari mbisi, zishobora no kuribwa zumye, ibyo twakwita indagara.

Mu isoko haba harimo ibintu bitandukanye:amabase, amasahani ya pulasitike, ibikombe bya pulasitike n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ikawa ifitiye akamaro kanini abanyarwanda kuko ibaha amafaranga. Ikawa ivamo icyayi, ikawa ikagurishwa, ikajyanwa hanze, hanyuma igatanga amafaranga menshi cyane.

Mu isoko haba harimo ibicuruzwa bitandukanye:amasafiriya, amabase, imyenda, abantu baba bari kugura abandi bari kugurisha.

Mu Rwanda hirya no hino hari ubucuruzi butandukanye, aho abantu bashobora kugenda bagatandika intojyi, inyanya, bagatandika ibijumba n'amateke.

Mu isoko wahasangamo ibikoresho bitandukanye amabase, indobo ibyo byose ni ibikoresho bikoreshwa mu rugo haba gushyiramo amazi haba no kumesa imyenda.

Mu Rwanda tugira imyuko ikozwe mu biti. Iyi myuko ikaba yifashishwa mu gukora ubugari cyangwa se gushigisha igikoma, tukagira n'imbabura zikozwe mu ibumba.

Ugiye mu isoko wahasangamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ushobora kuhasangamo amabase, ushobora kuhasangamo amasafuriya, ushobora kuyasangamo imbabura, ushobora kuhasangamo n' mikoropesho yo gukoropesha. Mu isoko uhasanga ibintu byinshi.

Ibishimbo biri ku nkoko ni byiza cyane, hariho inkoko iriho iryi ,hariho inkoko iriho abantu babiri bari gutonora ibishimbo.

Mu Rwanda basigaye bahinga ibyobo bakoresheje umurama. Ibyobo bigira isosi nziza cyane iryoshye kandi hari.

Gucuruza imboga ni byiza kuko bizana amafaranga haba gucuruza inyanya ,gucuruza seleri, ibitunguru n'ibindi.

Amagi ni meza cyane haba kuyateka bujumba, haba kuyatekamo umureti, igihe uyakeneye cyane ugana aho bayacururiza, haba mu isoko aba hari yemwe haba no mu borozi b'inkoko.